Iri ni ifumbire rikoreshwa buhira ndetse hitabwa ku bihingwa by'ibigori, aho ibigori bifatwa neza bigatanga umusaruro ndetse bigashisha.

Ibigori by'imbuto byateguriwe mu nganda bityo bikaba byateguriwe guhingwa kijyambere ,maze bikazatanga umusaruro uhagije ku bahinzi .

Umumama urimo utera umuti ibirayi, aho ari kwita ku bihingwa bye kugira ngo azabone umusaruro mwiza, kandi utubutse. Bityo abashe kuba yasagurira amasoko ndetse abone n'ibyo kurya.

Ire, nka zimwe mu mafumbire abahinzi bakoresha bahinga. Ire izwi nka yureya ni imwe mu fumbire ituma umuhinzi abona umusaruro uhagije.

Ibihingwa by'ibigori birimo bifumbirwa aho byatangiye kuzamuka, ndetse bisa nk'a birimo ubutaka bwiza, ndetse ibigori bikaba biri kwitabwaho mu buryo bugaragara kubera ko bari kufumbira.

Umugabo urimo gutera umuti akoresheje ipombo. aho ari gutera ibihingwa bye kugira ngo azabone umusaruro uhagije. bityo azabashe kubona ibimutunga ndetse n'amafaranga akomoka ku musaruro.

Imbuto z'ibigori byitwa iburide byateguwe kugira ngo bihingwe, aho ibigori babisiga amabara ndetse bakabicisha mu ruganda, maze bakabifunga mu gikari mu gikarito.

Mu buhinzi, iyo ushaka kweza ndetse ukagira umusaruro uhagije ukoresha ifumbire, ishobora kuva mu byo inka yariye cyangwa se yakiniyemo.

Igihingwa kiri kwitabwaho ndetse bari kugishyiraho ifumbire, aho bigaragara ko kizatanga umusaruro kuko cyitaweho kandi kikaba kiri mu butaka bwiza.

Ifumbire ikoreshwa mu gihe bari gufumbira imyaka, kugira ngo iyo myaka itange umusaruro ufatika, bityo ba nyirabyo bakaba kwiteza imbere mu gihe basaguriye isoko.

Ifumbire ikoreshwa kugira ngo ibihingwa bimere kandi bikure neza, bityo bizatanga umusaruro ba nyirabyo baba babashe kubona amafaranga, cyangwa se inyungu biturutse ku umusaruro.

Ikiyaga cya Burera cyangwa se Ruhondo, gishobora gukurura ba mukerarugendo, ikindi niho ibikorwa byo kuroba amafi bikorerwa, bityo bitanga umusaruro ku gihugu.

Umusaruro w'uburobyi, aho uri gucururizwa mu mifuka ndetse hakaba harimo udutoya, nk'amasambaza ndetse n'ibyisumbuye, aho bino bashobora kubikoresha nk'ibyo kurya.

Ifi itetswe neza yasizwe ibirungo ndetse ifite akantu hejuru ka sereri kugira ngo igaragare neza. Ni ibintu bimwe mu biryo umuntu ashobora kurya bikamuryohera.

Muri resitora zigezweho aho batangira ibyokurya, basigaye bategura amafi atetswe neza ndetse ku ruhande hakaba hari utuntu cyangwa se ibintu bakoresha kugira yafi ibe idekoye, imeze neza ku buryo umuntu abyishimira.

Ibyo kurya bitetswe neza, bikomoka mu mazi ari byo ifi, aho byateguwe neza bifite isuku ndetse biri kusahani ifite isuku. Bityo ukaba uwabifata akaba yizeye isuku yabyo.

Ifi nini yarobweI ifi barangije kuroba ndetse ikaba ishobora gukoreshwa nk'ibyo ku kurya, n'ifunguro aho bitegurwa neza.

Mu buhinzi iyo abantu bateye tungurusumu cyangwa se ibitunguru, bashiramo ibishimbo bigufiya aho bishobora kwerera hamwe ntizo tungurusumu.

Ubuhinzi bwa karoti aho zigeze igihe cyo gusarurwa, ndetse zikaba zitanga icyizere ko zatanga umusaruro uhagije, kubera ko zitabwaho neza ziterwa imiti ihagije.

Ubuhinzi bw'ibirayi, Aho ibirayi bigejeje igihe cyo guterwa umuti, mu buryo bwo kurwanya ibikoko bishobora gutera bino birarayi, bigatuma hataboneka umusaruro uhagije.

Mu buhinzi usanga iyo wateye nk'ibigori uteramo n'ibindi bihingwa. Ushobora guteramo ibishyimbo cyangwa se amashaza, aho ashobora kwera inyuma y'ibigori.

Umurima wasaruwemo imyaka igiye itandukanye, aho hari aho basaruye ibigori ndetse hakaba n'ahandi hasaruwe ibindi bihingwa nk'ibirayi, aho hategerejwe guhingwa ngo haterwemo ibindi.

Ubutaka bwateguwe, bwahinze, butegereje imvura kugira buterwemo ibihingwa runaka, bityo bikaba bizatanga umusaruro.

Igihingwa cy'amateke, nka bimwe mu bihingwa abanyarwanda bahingaga kera ndetse bikagurishwa ku isoko, aho akenshi amateke bayatera mu rutoki, aho bayakura mu urutoki

Ubuhinzi bw'ibitoki nk'ubuhinzi bushobora gukorerwa mu cyaro, maze bityo bikaba byatanga umusaruro nk'uw'ibitoki bishobora gutarwa hakavamo imineke.

Ibirayi byeze bya kinigi birimo gucuruzwa, aho byapakiwe mu mufuka ndetse bikaba, ari ibirayi byiza ndetse biboneye ijisho.

Mu cyaro ahantu hatahagera amashanyarazi bakoresha imirasire, ndetse ikaba ishobora gucana itoroshi cyangwa se gusharija telefone, maze bakagira icyo bazi maze.

Umusaruro w'ibirayi bya kinigi weze, aho ibirayi byitaweho bigaragara ko byatewe umuti, ndetse bigatereshwa ifumbire, bityo bikaba bimeze bitoshye bimeze neza.

Ibijumba ni bimwe mu byo kurya abanyarwanda bakunda, ibijumba akenshi bicururizwa mu base, hirya no hino ariko cyane cyane mu mijyi.

Ibikorwa by'ubuhinzi bivanze, aho abantu batera ibigori, ibishyimbo ndetse n'ibirayi mu murima umwe, bityo ibirayi bikera mbere bakagenda basarura gutyo gutyo.

Abagabo n'abagore , bari gusarura ingano aho bari gukoresha agakezo, ndetse izi ngano zikaba zisa n'aho zitaweho bityo zikaba zaratanze umusaruro.

Ubucuruzi bw'ibitoki, aho ibitoki biri gutwarwa binyuze, hakoreshejwe amagare ndetse n'amamoto, aho biri gutwarwa ibivana hamwe ibijyana ahandi.

Umumama ufashe isuka, aho ari mu nzira ataha, akaba ari kunyura ahantu hegereye imirima irimo ibigori bigejeje igihe cyo kuribwa.

Umugabo wamanuye voka urimo azicuruza, ndetse afite abakiriya barimo bazitwara, bazivana aho ziri bazijyana iyo bagomba kuzicururiza, ndetse n'abakozi barimo bazitoragura.

Ubucuruzi bw'ibihaza bukorerwa ku muhanda aho bino bihaza bicuruzwa kugira ngo biribwe, ndetse mu muco wa kinyarwanda babitekanaga n'ibishyimbo, bityo bikaba ari ibiryo biryoshye.

Mu buhinzi buteye imbere, aho bahinga intoryi za kijyambere ndetse za kizungu, zishishe zimeze neza, zatewe umuti zitaweho, aho zifite ibibabi bitoshye.

Umubyeyi urimo yita ku myaka kugira ngo azabone umusaruro uhagije ndetse abashe no kuba yabona ikibazo bifite ndetse abe yabitera umutima mu gihe abonye hari ibyaterwa umuti.

Amabutike usanga bacururizamo imineke ndetse n'ibindi bitandukanye, nk'ibyo kunywa ashobora gusangamo inzoga ndetse n'ibikoresho ibindi bakora bakoramo ngibyo kunywa nk'ifu y'igikoma.

Ishu ryiza rigeze igihe cyo gusarurwa, aho rishobora gusarurwa rigakorwamo, imboga cyangwa se rigakorwamo ibindi bintu runaka, nk'amasalade ashobora gukoreshwa nyuma yo kurya.

Igitoki cyatazwe havamo imineke, aho imineke ishobora kuribwa ikimeze gutyo, cyangwa se igakorwamo umutobe, na none igitoki kitari cyatarwa gishobora gutekwa kikaribwa.

Avoka nk'imbuto zirimbwa hejuru y'ibiryo, ni imbuto ziryoha cyane, zishobora gutera umuntu apeti, bityo akaryana ibinezaneza ibyo kurya.

Ikawa nka kimwe mu buhingwa mu Rwanda abantu batera bashaka kwiteza imbere, aho bishobora kizana amafaranga. Ikawa iteye neza ku murongo, ndetse itanga icyizere yuko yatanga umusaruro iramutse yeze.

Ubucuruzi bw'ibisheke bukorerwa ahantu runaka, aho ibisheke byegerezwa abaturage bityo bigacuruzwa ,bikaba bishobora kuribwa, cyangwa se gukorwamo ibintu bigiye bitandukanye nk'isukari.

Isarura ry'ibigori aho abaturage bari gusarura ibigori byumye ndetse basa nk'aho babyishimiye kuko babonye umusaruro uhagije.

Ibikorwa byo gucucira amazi ibihingwa, mu buryo bwo gufasha gukura mu gihe habuze amazi, cyangwa se imvura yabuze hakoreshwa uburyo bwo gucucira.

Umubyeyi urimo arabagara ibirayi abyitaho, ndetse ibirayi bikaba bishishe, bigaragaza ko byatanga umusaruro uhagije, aho hejuru hateye ibihingwa mu materasi.

Ibipureteri nk'ibihingwa bihingwa mu guteza imbere ubukungu bw'abaturage. Aho bikorerwa akenshi mu majyaruguru, kugira ngo abantu biteze imbere.

Ibirayi byapakiwe umufuka, aho biteganyijwe kujyanwa mu masoko runaka, maze n'ababikeneye bakabibona bakabihaha, maze bakajya kubirya.

Umugabo wateye ibigori bigeze igihe cyo gusarurwa, bishobora gukorwamo ibintu bitandukanye harimo ifu, ndetse ibigori biri gucibwa.

Ababyeyi barimo basoroma ikawaka. Ikawa mu Rwanda ni kimwe mu bihingwa bihingwa bifite cyangwa se aribyo soko y'amafaranga, ndetse akaba ari ibihingwa byoherezwa mu mahanga.

Ubuhinzi iyo wateye neza imiti, ndetse ukita ku bihingwa byawe neza, umusaruro ndetse n'iyo wateye bitunguru urabitera wabyitaho, iyo bikuze ujyana ku isoko ukabicuruza.

Mu gihe harimo haterwa imiti cyangwa se ifumbire abantu bayitera bagomba kuba bambaye ubupfukamunwa, kugira ngo hirindwe kuba haterwa indwara zigiye zitandukanye n'iyo miti bari gukoresha.

Mu cyaro usanga bacururiza ibirayi mu mifuka aho abakiriya babishakira. Ndetse ibirayi babicururiza ku mihanda, aho abantu babikeneye bashobora kubigurira.

Nk'uko bisanzwe mu muco wa kinyarwanda habamo ubworozi, ubworozi cyane nko korora inka inka zigeraho zikabyara inyana, ahantu mu cyaro niho hakunda gukorerwa ubwoko bworozi.

Ubucuruzi bwa puwavuro ndetse na karoti, nk'ibintu umuntu ashobora gukoresha mugihe ari guteka, imboga ndetse na sereri ku ruhande, ibi bikaba biri gucururizwa mu mabasi.

Ubucuruzi bw'amashu. Aho amashu bari kuyacururiza kudutandaro twubakishije ibiti. Ndetse akaba ari ahantu mu masoko yo mu cyaro. Ndetse ayo mashusho akaba akoreshwa mu buryo bugiye butandukanye nk'imboga.

Ibitoki byinshi biri gupakirwa mu modoka, aho bishobora gukoreshwa nkibyo kurya cyangwa se nk'ibyakoreshwa mu kwenga ibinyobwa harimo n'urwagwa ndetse n'imitobe.

Ubuhinzi bw'inyanya zitoshye zisa neza, aho hari izahiye z'umutuku, izindi zikaba zisa icyatsi, iz'umutuku zikaba zigeze igihe cyo gusarurwa.

Ubunyobwa butonoye. Bishatse kuvuga ko bwavanwe muri cya gishishwava buba burimo. Ubunyobwa niho ushobora kubukoramo ubushira mu biryo, cyangwa se kukaranga gutya.

Ubucuruzi bwa kokombure ndetse n'ibidodoki ni bumwe mu bucuruzi bukorerwa ku mifuka ku mihanda, aho ushobora guteza imbere ubicuruza mu cyaro.

Ibigori biterwa umuti kugira ngo hicwe ubukoko butandukanye ,bushobora gufata ibigori bigatuma hataboneka umusaruro uhagije, kugira ngo haboneke umusaruro uhagije, batera imiti.

Ubucuruzi bw'imbuto zigiye zitandukanye, aho bari gucuruza: ibinyomoro, amaronji, ndetse na wotameroni. Ndetse ikisumbuyeho bari gucuruza n'imyembe, aho izi mbuto zishobora kongera intungamubiri, ndetse zikarwanya n'indwara mu mubiri w'umuntu.

Karoti nk'igihingwa nk'ibindi, iyo ugiteye neza ukacyuhira, ndetse ukagifata neza, byose ukabikora ugashyiramo ifumbire, ni igihingwa kiba cyiza cyera.

Ubuhinzi bw'ibipapayi bya kizungu, aho kimwe cyatangiye gushya, n'ibindi bikaba bidahiye neza, ndetse hakaba hari n'ibiri gutangira kumera aritwo duto.

Ubucuruzi bw'imboga zigiye zitandukanye, aho bari gucuruza ibintu bigiye bitandukanye, harimo inyanya, karoti, ibitunguru, ndetse n'ibindi. Nka tungurusumu, umuntu ashobora gukoresha akora imboga.

Ubunyobwa butonoye n’ubudatonoye, aho ubunyobwa bashobora kubusya maze bugakoreshwa mu byo kurya, ndetse naho bashobora kubukaranga bugacuruzwa nk’ubwo kurya bisanzwe.

Ibigori byeze biracibwa bikamanikwa ahantu hashobora kumira, aho bishobora kuba amahundo bityo bikaba byahungurwa hagakorwamo ibintu bigiye bitandukanye nka kawunga cyangwa se ibyo kunywa nk'igikoma.

Igihingwa cy'ingano, ni igihingwa gikoreshwa mu bintu bitandukanye, aho bashobora kugikoresha nko mu gukora imigati, ariyo bita imbada cyangwa se mu gushigisha ibindi bintu, nk'igikoma ndetse n'ibindi.

Imbuto y'ibigori, aho ibigori babimanitse ku biti kugira ngo byume, bityo bikaba byakoreshwa hakorwa ifu y'umutsima cyangwa se igikoma.

Ubuhinzi bw'amashaza aho buri ku murongo ndetse amashaza akaba ashishe, aho bigaragara ko yatanga umusaruro kubera ko yitabweho ndetse ari ku murongo.

Ibikorwa by'ubuhinzi bw'ibigori bwa kijyambere, aho ibigori biteye neza ku murongo, bityo bikaba byatanga umusaruro mwinshi kandi mwiza kubera ko byitaweho.

Ibigori bya mayizole biri gucuruzwa bigapimishwa amasorori. Aho ibingibi bikunda gukorerwa mu cyaro aho bataba bafite iminzani kubera ko biri mucyaro cyane.

Ubucuruzi bw'imishwi ni imwe mu mishinga ishobora kubyarira inyungu uyikora, mu gihe yitaye kuri iyo mishwi akazigaburira amazi, akazigaburira ibyo kurya ndetse akazihereza amazi ku gihe.

Mu cyaro inkwavu zororerwa mu bibuti. Aho zishobora guhererwa ibyo kurya bigiye bitandukanye nk'ibyatsi, ahangahe ni ho zitabwaho kandi zikubakirwa ahantu hejuru, hatetegeranye no hasi.

Inka zororwa ziba zigomba kwitabwaho n'abaveterineri, cyangwa se ababishinzwe, kugira ngo hitabwe ku buzima bwazo bityo zibe zatanga umusaruro mwiza w'amata, cyangwa se w'inyama zidahumanye.

Ubworozi bwiza bwo kororera inka mu biraro, aho inka zitabwaho neza ndetse zigaherezwa ibikenerwa byose aho zibereye mu biraro.

Umutavu umaze iminsi uvutse aho uri ahantu mu ruhongore, ndetse wororewe ufashwe neza, ndetse witaweho bisa naho ifashe inkingo zose uko bikwiye.

Ubworozi bw'ingurube bumwe mu bworozi butanga umusaruro w'amafaranga ahagije. Aho ubworozi bw'ingurube ari isoko y'ifumbire ndetse n'amafaranga.

Inka zirororwa, aho zishobora kuvamo amafaranga yo gukoresha mu bikorwa bigiye bitandukanye. Zikaba zororerwa mu gikuyu, bityo zikaba zishobora kugurishwa zigateza imbere umuturage.

Abantu benshi boroye imbwa, bajya kuziteresha imiti yo kurinda ko zaruma abantu bagahita barwara ibisazi. Mu rwego rwo kurinda izo ndwara, bajya kuziteresha imiti.

Ubworozi bw'inkwavu. Aho inkwavu zororerewe neza, zikaba zifashwe neza. Bityo mu kuzigurisha zikaba zatanga amafaranga ahagije, ashobora gutuma uzigurishije yiteza imbere.

Inka z’inyambo ni inka zororerwaga mu mucyo nyarwanda, ahantu harehare ari ho bitaga Igikuyu. Hashoboraga kuba ari ishyamba. Mu Rwanda, ahantu bakundaga kororera ni nko mu birunga.

Abantu bari gutera imiti amatungo, aho bari kuzirinda ko zakwandura ibirwara bigiyee bitandukanye. Bityo bikaba byanakwanduza abantu bazikoresha nk'inyama.

Ibikorwa by'ubworozi bw'ingurube buteye imbere, aho zitabwaho mu kiraro, zikaba zitanga umusaruro ari byo bita ibyana byazo, bikaba ari byinshi cyane.

Ubworozi bw'inkoko, aho izo nkoko zigiye zitandukanye, zimwe zikaba ari ibisake, izindi zikaba ari inkokokazi, uyu mushinga ni umwe mu mishinga ushobora guteza umuntu imbere.

Ibikorwa byo kwita ku matungo nko kuyatera inshinge, bikorwa naba veterineri aho baba bita ku matungo kugira ngo bayarinde ibyorezo bigiye bitandukanye n'indwara zigiye zitandukanye.

Ubworozi bw'inkoko nyinshi, ni bumwe mu mishinga ishobora kukubyarira inyungu mu gihe wabyitayeho, ukazigaburira neza, ukaziha amazi uko bikwiye ndetse ukaziha buri kimwe cyose zakenera.

Ihene ni itungo mu cyaro borora hagamijwe ko babona amafaranga cyangwa se ifumbire, bityo bigatuma biteza imbere mubyo bakora.

Ingurube nyinshi ahantu zororewe ziba zigomba kwitabwaho, kugira ngo harebwe niba zagira isuku ndetse harebwe, niba zatanga umusaruro uhagije.

imIsake nziza yorowe, iri ahantu mu bwatsi, ndetse isake ikaba ari isake nkuru, ishobora kugurishwa cyangwa se gutekwa ikaba ibyo kurya.

Veterineri umwe mu bantu bita ku nka cyangwa se ku yandi matungo harembwa kuzagira ubuzima bwiza, bityo zikaba zatanga umusaruro uhagije nk'uw'inyama cyangwa se uw'amata ndetse udafite ibindi bikoko byaba birimo.

Ubworozi bw'inkoko mu cyaro usanga bukorerwa ahantu hatizewe umutekano ku buryo zishobora no kuba zagira ibibazoke bitandukanye kubera ko ziri ahantu zifite umwanda.

Ingagi nka zimwe mu nyamaswa zo mu gasozi zibugwabungirwa mu ishyamba. Iki gikorwa kikaba gihesha Igihugu amadovize, aho zikurura ba mukerarugendo. Bityo bikaba isoko y'amafaranga y'abanyamahanga.

Ingagi nka zimwe mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo aho ziba mu birunga mu Rwanda ndetse zikaba ziherereye mu gice bita mu Kinigi. Izi zikaba zikurura ba mukerarugendo bityo bikaba isoko y'amadovize.

Igikeri nka kimwe mu nyamaswa zo mu gasozi. Igikeri kikaba kigira amaga, ndetse kikaba gishobora kuba mu mazi cyangwa se ku butaka. Na none igikeri ni kimwe mu nyamaswa zishobora kuza ku butaka kenshi imvura iri kugwa.

Ingagi ebyiri. Ni zimwe mu nyamaswa zibungwabungwa neza, kugira ngo zinjirize igihugu amafaranga y'abanyamahanga, binyuze mu kuza kuzisura.

Ingagi n'inyamaswa zororera muri pariki, aho zishobora gukurura ba mukerarugendo bityo bikaba isoko y'amadovize mu Rwanda, maze tukabona amafaranga aduteza imbere mu byo dukora.

Shimpanze nka zimwe mu nyamaswa zibungwabungwa mu Rwanda mu mapariki. Aho izo nyamaswa zikuru ba mukerarugendo, bityo igihugu kikabona amadovize, y'amafaranga bakoresha mu kubaka ibikorwaremezo.

Inzovu imwe mu nyamaswa zororerwa mu maparike zishobora gukurura ba mukerarugendo, bityo bikashobora kohereza amadovize mu Rwanda maze bigateza imbere u Rwanda.

Ingagi ni zimwe mu nyamaswa u Rwanda rubungabunga ruhereza agaciro, kubera ko rukurura ba mukerarugendo maze bakaba bakwinjiza amafaranga y'abanyamahanga ariyo bita amadovize.

Ingagi ni inyamaswa zikurura ba mukerarugendo aho mu Rwanda zikaba zibera nko mu birunga, bityo ba mukerarugendo bakaza baje kuzireba bakazana amafaranga y'abanyamahanga, ariyo twita amadovize.